Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu afite indangururamajwi mu ntoki. Inyuma ye hari abandi bantu bambaye impira y'ubururu bwijimye.

Abagabo babiri uwo kuruhande rw'ibumoso yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye ishati y'umweru na karuvati y'umukara yambaye nisaha ku kuboko kuruhande yambaye ikote, ishati y'umweru na lunette imbere yaho hari ameza ateretseho uducupa twamazi ibitabo

Abagabo babiri numudamu umwe umugabo umwe wmwirabura bambaye ikoti ry'umukara shati y'umweru na karuvati itukura afite igitabo mu ntoki ari gusoma nanette umugabo undi amashati y'umukara n'ikote n'umudamu wumuzungu wambernette n'ikanzu itukura imbere yabo hari imeza iriho amazi impapuro.

Icyumba kiri kuberamo inama, kirimo abagabo bambaye amakoti y'imikara, mu makoti y'imikara, hari n'uwambaye amashati y'umweru, imbere yabo ku meza, hariho uducupa tw'amazi n'amaterefoni yabo, bafite bari kwifashisha.

Ifoto y'urwibutso yafashwe abayobozi basoje inama, imbere yabo hari imeza n'intebe, imeza ziri mu ibara ry'umukara, zitetseho amazi n'imashini ndetse n'intebe ziri mu ibara ry'icyatsi gikeye.

Abagabo bane n'abadamu babiri, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza iteguyeho igitambaro gifite ibara ry'umukara, iteretseho imashini n'uducupa twa mazi, impapuro n'amakaramu.

Umukobwa wicaye ku ntebe itara ry'umukara wambaye ikote rifite ibara ry'umutuku, ni'shati y'umweru iri mu imideri y'umukara. Kuruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'umukara ririmo uburongo bw'umweru, imbere yabo hari imeza ya shokora iteretseho amazi n'impapuro.

Abagabo b'abirabura bane n'umuzungu umwe. Bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Iruhande rwabo hari utumeza dufite ibara rya kake turiho ibirahuri birimo amazi ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n' umumama, bicaye ku ntebe z'imikara, umupapa wo ku ruhande rw'iburyo yambaye ikote ry'ubururu bwijimye, na karuvati y'ubururu bwijimye, n'ishati y'umweru. Undi yambaye ikoti ry'umukara na karuvati y'umukara, n'ishati y'ubururu. Imbere yabo hari ameza ateretseho amazi n'indangururamajwi n'imashini zo kwifashisha. Inyuma yaho hari icyapa cyanditseho ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara ririmo uburongo bw'umweru n'ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru, ari kuvugira ku ndangururamajwi, yambaye rinete. Imbere ye hari agatuti afasheho kari mu ibara ry'umweru.

Abagabo n'abadamu bicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza ifite ibara rya shokora iteretseho insakazamashusho iri mu ibara ry'umweru, ayo meza ariho uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bambaye imipira itandukanye iy'umuhondo n'iy'icyatsi abicaye imbere, imbere yabo hari ameza ariho imitako ikozwe mu ibendera ry'gihugu hariho uducupa twamazi ndetse n'ibiseke n'amaterefoni n'impapuro zo kwifashisha.

Urubyiruko ruri mu nama rwicaye ku ntebe ziri mu ibara zitukura, tapi iri mu ibara ry'icyatsi. Hagati yabo hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'ubururu bukeye, ufite indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba cy'inama. Kirimo abagabo batanu n'umudamu umwe, bicaye ku ntebe z'umukara, n'icyapa kiri inyuma, cyanditseho arapiyefu, n'indi.

Abagabo babiri umwe wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru, n'undi wambaye ishati y'umweru wicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iteretseho amacupa y'amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bari mu nama, ku meza yabo hariho amamashini n'amazi, ameza ateguyeho ibitambaro by'ubururu n'umuhondo.

Abadamu batatu n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza arambitseho impapuro na telefoni n'amazi, umwe muri bo wambaye ikanzu y'umweru, afite indangururamajwi iri mu ibara ry'umukara.

Abagabo n'abagore bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru ariho amacupa y'amazi, amatelefoni n'imashini zibafasha mu nama yabo.

Abantu babiri bari kuganira umwe ni umugabo yambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umutuku n'ipantaro ya kaki, afite indangururamajwi mu ntoki, umudamu yambaye umupira w'umuhondo afite indangururamajwi yambaye na rinete, imbere ye hari imeza iteretseho imashini.

Icyumba cy'inama kirimo abasore n'abakobwa bicaye ku ntebe n'ibara ritukura, umusore uhagaze yambaye ishati y'umukara, imbere hari umudamu uhagaze wambaye ikote ry'ubururu bukeye n'ishati y'umweru n'agatambaro mu ijosi n'ipantaro y'umukara.

Umuyobozi uyoboye inama y'abaturage yambaye umupira w'umutuku, w'umweru, indangururamajwi y'umutuku, imeza iriho amazi zisa umweru.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo utudoma tw'umukara wicaye ku ntebe y'umukara afite imashini n'agapara k'amazi imbere, ari kuvugira kuri mikoro, inyuma ye hari urukuta rw'ubururu n'umweru.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara rya kaki, imbere yabo hari ameza manini afite ibara rya shokora, hateretseho amazi, impapuro, imashini ndetse n'amaterefone.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore bambaye amakoti y'imikara, imbere yabo hari imeza iri mu ibara rya kake, iteretseho ibirahure ndetse n'ducupa tw'amazi. Hateretseho indangururamajwi ziri mu ibara ry'umukara, inyuma yaho ku gikuta cy'umweru hateretseho televiziyo iri mu ibara ry'umukara.

Abasore babiri bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo har'umukobwa wicaye kuntebe y'umukara yambaye umupira w'umweru n'umukara uteze igitambaro cy'ubururu bwijimye.

Abantu batanu bambaye imipira y'ibara ry'icyatsi, iruhande rwabo hari uwambaye imyenda y'ubururu yijimye, inyuma yabo hari abandi benshi bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara, imbere yabo hateretse imeza ifite ibara ritukura, hateretseho indangururamajwi kuri iyo meza ndetse n'ibitabo n'uducupa tw'amazi.

Abagabo babiri n'abakobwa batatu bambaye imipira ifite ibara ry'umweru bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku. Imbere yabo hari ameza iteguye y'igitambaro gifite ibara ry'umukara iriho uducupa tw'amazi, impapuro n'amakaramu.

Abagabo batatu uw'imbere yambaye ikote ry'ubururu bukeya na rinete ni'shati y'umukara, imbere hari icupa ryamazi n'imashini impapuro, inyuma ye hari icyapa kinini kirimo ibara ry'ubururu ndetse n''magambo yanditse ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'ubururu, imbere yabo hari imeza zirimo ibara ry'umutuku, iriho impapuro n'amazi n'ibindi byo kwifashisha, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye ishati y'umweru, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho inzozi mu rurimi rw'amahanga dirimu.

Abagabo n'abadamu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza ifite ibara rya shokora, iteretseho amazi, imashini, impapuro.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umukara na karuvati y'umutuku, imbere yabo hari imeza iri mu ibara ry'umweru iteretseho impapuro n'ibindi byo kwifashisha.

Abaturage bicaye munsi y'ihema ririho imitako ikozwe mu ibendera ry' igihugu, bicaye mu busitani ku ntebe z'umweru.

Abagabo n'abagore bari mu nama, abicaye imbere bafite imeza iriho imashini, n'ibitabo, n'amazi yo kunywa.

Sare y'inama irimo urubyiruko rwinshi rwitabiriye inama, bicaye ku ntebe zitukura, bafite amatelefone mu ntoki bafotora ibiri imbere yabo.

Umudamu wambaye ikanzu y'amabara, ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari Imeza iriho igitambaro cy'umweru n'agacupa k'amazi hateretseho telefoni ye n'igitabo, iruhande rwe hari n'undi wambaye ikanzu y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ya kake n'undi umuhagaze iruhande, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, n'ishati y'umweru, uwambaye ishati y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki, ari kubwira abicaye mu cyumba k'inama bicaye ku ntebe z'ubururu bwijimye, imbere yabo hari imeza zitukura ziteretseho amazi n'impapuro.

Icyumba cy'inama kirimo abantu baje kwitabira inama, kirimo intebe zifite ibara ry'ivu, n'izifite ibara ry'umukara, n'abandi batumirwa baje mu nama.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'ikijuju, kuruhande rwabo hasi hari uducupa tw'amazi . Uwo kuruhande yambaye ikoti ry'umukara ,ishati y'umweru, karuvati'umukara ,ipantaro y'umukara. Undi yambaye ikoti ry'ubururu ,ipantaro y'ubururu, ishati y'umweru n'inkweto z'umukara.

Abadamu babiri n'umugabo umwe bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, ku ruhande hari umudamu wambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umweru, hagati hari umudamu wambaye ikote n'agatambaro mu ijosi, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati ifite ibara rya oranje na rinete, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, impapuro n'amatelefone.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu ifite indangururamajwi mu ntoki wambaye lineti. Uyu ni Meya w'akarere ka Nyagatare uri kugira icyo abwira abantu.

Abantu bitabiriye inama imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, iruhande rwe hari imeza iteretseho agacupa k'amazi, ku rundi ruhande hari umudamu wambaye ikoti ry'umukara ririmo uburongo bw'umweru n'ijipo y'umukara, iruhande rwe hari agacupa k'amazi gateretse ku meza iri mu ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'imikara, imbere yabo hari imeza iriho amacupa y'amazi n'ibirahure, hariho ikirabo kiri mu ibara ry'icyatsi, bari mu nama.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, wambaye rinete z'umukara imbere ye hari ameza asa umukara n'icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umweru, ipantaro ifite ibara ry'ubururu bwijimye isa ku kuboko. Afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari umudamu wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu na rinete, inyuma yabo hari intebe zifite ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza iri mu ibara ry'umutuku. Umugabo wo ku ruhande yambaye ikote ririmo ibara ry'ikijuju, ari kuvugira ku ndangururamajwi. Undi yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru. Imbere ye hari indangururamajwi.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abadamu bitabiriye inama, ab'imbere bicaye ku ntebe z'umukara n'imeza y'ubururu n'umutuku, inyuma bicaye mu ntebe zisa nk'ivu.

Umugabo uri gutanga imbwirwaruhame wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, afite agatuti k'umutuku, iruhande rwe hari itente irimo abantu bitabiriye imbwirwaruhame.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara abagabo bambaye amakoti y'imikara imbere yabo hari imeza iriho ibitabo n'amazi n'amaji.

Icyumba k'inama kirimo abadamu n'abagabo, kirimo intebe ziri mu ibara ry'umukara. Imbere yabo hari insakazamashusho nini, amatara y'amoko atandukanye.

Abantu bane. Babiri bo ku mpande ni abagabo, abo hagati ni abadamu. Imbere yabo hari imeza iteretseho amacupa y'amazi ndetse bafite n'amakaramu mu ntoki bari kwandika.

Inzu y'ubucuruzi iriho umuntu ugiye gusaba serivisi, ufite agakapu k'umukara n'ipantaro ya beje, iriho icyapa cyanditseho irembo, ekwiti n'ibindi bya serivisi batanga.

Icyumba kirimo abantu barindwi, babiri babiri bicaranye, imbere yabo hari imeza iteretseho imashini, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ubururu uhagaze imbere yabo.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari imeza iteretseho imashini, uwo ku ruhande yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara, undi yambaye umupira w'icyatsi gikeye n'ipantaro y'umukara, afite impapuro mu ntoki.

Abanyeshuri bari kuva ku ishuri bari mu nzira igendedwamo n'abanyamaguru, inyuma yabo hari imodoka y'abashinzwe umutekano ya polisi ku ruhande rwaho umuhanda hari icyapa cy'irembo.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri. Mu ruhande rw'umuhanda hari icyapa kinini gifite ibara ry'umuhondo, cya sosiyete ya Emutiyeni. Kiri hagati mu biti by'ubusitani. Inyuma yacyo hari umunara munini w'itumanaho.

Icyumba kirimo abantu bacyicayemo, imbere yabo hari ameza arimo ibara ritukura, ateretseho imashini, ndetse n'udupara tw'amazi, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye umupira w'ubururu, nyuma hari ikibaho kinini kiri mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu. Imbere yabo hariho ibikoresho bitandukanye, hariho imeza n'imashini ziri mu ibara ry'umukara ziteretse kuri izo meza, n'intebe ziri mu ibara rya kaki.

Ibipimo by'umusoro w'ubutaka, buriho inyubako biteye bite? zeru n'ibice bitanu by'agaciro ku isoko kinyubako nk'ikibanza.

Imodoka iririmo ibara ryuumukara iparitse imbere ymaduka acuruza ibintu bitandukanye amaduka afite imiryango iririmo ibara ry'icyatsi rikeye itatu n'ndi muryango kuruhande ucuruza ibinyobwa uri mu ibara byu'mweru.

Abagabo batatu numukobwa umwe numukobwa wambaye umupira wumweru nipantaro yumukara umugabo wambaye umupira w'ubururu n nipantaro ya ka nundi wambaye ingofero irindamba umutwe yijiri wambaye hoteri mu mumatwe afite terefone yumutuku mu ntoki bigaragare ko hari ibyo ari kureba umukobwa uri iruhande afite yambaye isaha afite na terefone mu ntoki.

Inzu ifite amakaro y'amabara menshi, afite umuryango ufite ibara ry'umweru ndetse n'urugi rwo ku gipangu gipangura rufite ibara ry'icyatsi cyijimye, mo imbere harimo abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru.

Itangazo rya Rwanda Reveni Otoriti ibwira abantu gukurikira ikiganiro cy'imisoro n'amahoro kuri Arativi televiziyo y'u Rwanda kiri mu magambo yandikijwe n'umweruru n'umuhondo.

Ipoto ririho intsinga zigemura amashanyarazi, iri imbere y'inzu ifite urukuta rw'amabuye, iri haruguru y'umuhanda nyabagendwa, uteyeho pasiparume n'izindi ndabo ziri ku ruhande.

Ipoto rinini rishinze mu isambu rishinzwe kujyana amashanyarazi mu duce dutandukanye inyuma yaryo hariho umusozi utuyeho abantu.

Amapoto abiri afashe imashini yifashishwa mu kugenzura umuriro ujya mu baturage., Hasi yayo hari indi mashini iri mu ibara ry'umweru, iteye mu byatsi, inyuma yaho hari urukuta rw'amatafari n'inzu nini ifite igisenge gitukura.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto iri kumanuka. Ku ruhande rw'umuhanda, hari icyapa kiri mu byapa bitegeka, kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, kirimo imibare mirongo itandatu. Ku ruhande rwe rw'umuhanda hari umugabo uhagaze ufite igikapu cy'umukara ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara.

Amapoto abiri ariho imashini bagenzuriraho umuriro w'agace runaka, ufashwe n'insinga uriho n'insinga zigiye zijyana umuriro mu duce dutandukanye, iruhande rwako hari igiti kinini.

Amapoto maremare, ariho insinga zimura umuriro mu duce runaka, akunze kwifashisha mu kujyana umuriro, ahantu kure hatari hafi aho ngaho aho ryaba riteretse.

Umuhanda nyabagendwa urimo abantu batwara abagenzi ku magare. Inyuma yabo hari imodoka nini ikorana kampani ya Ritico itwara abagenzi.

Amapoto abiri atwara amashanyarazi iruhande rwayo hari ibiti by'imikindo n'indabo haruguru, inyuma yayo hari umunara muremure cyane w'itumanaho.

Umuhanda nyabagendwa. Urimo umudamu wambaye ijipo y'umutuku n'ishati y'umweru. hariho ipoto nini iriho insinga z'amashanyarazi n'urukuta runini rw'ahantu runaka.

Abagabo batanu bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umuhondo, bari iruhande rw'amapoto agemura amashanyarazi mu duce dutandukanye, uri hejuru ari gufunga insinga ku mapoto.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka y'umukara harimo iruhande rwawo hari ubusitani pasiparume iriho igiti cyamashanyarazi irihande rwawo hari inyubako nini.

umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitwaye abagenzi zifite ibara ry'umweru, ku rundi ruhande hariho ipoto rire ririho itara rimurikira mu muhanda rifasheho n'insinga zigemura umuriro mu baturage, ku kurundi ruhande rw'umuhanda hariho ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Ikigo cy'ikoranabuhanga cya REG. Gishinzwe amashanyarazi, kirimo umukozi wacyo urimo urasuzuma imashini, yambaye ijire y' ikigo, ingofero y'umweru y'ubwirinzi, arimo asuzuma imashini.

Ipoto rigemura amashanyarazi mu ngo z'abaturage, hariho insinga zigemura amashanyarazi. Munsi yaryo harimo igiti cy'umwembe.

Amapoto abiri afashe imashini yifashishwa mu gukontorora umuriro ujya mu baturage. Imbere yayo hari ipoto rinini, rigemura umuriro mu mijyi itandukanye.

Igiti cy'amashanyarazi kirimo insinga zigemura umuriro w'amashanyarazi mu baturage munsi yacyo hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo inyuma yacyo hari inzu nini muibara rya kaki yo guturamo.

Ipoto ryifashishwa gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage ririho n'itara rimurikira umuhanda, riri hirya y'umuhanda nyabagendwa inyuma yaryo hari ishyamba, mu muhanda harimo umugabo wambaye isarubiti y'ubururu.

Inzu iri mu ibara rya beje imbere yayo hari ubusitani bwa pasipurume, hejuru y'inzu hari ibigega bibiri biri mu ibara ry'umukara ibigega bifata amazi.

Urukuta rw'amabuye ruteye irangi riri mu ibara rya shokora amabuye asizwe irangi ry'umweru, hirya yarwo hari inzu iri mu ibara ry'umuhondo imbere yayo hicaye abantu.

Ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo burimo n'ibyapa biri mu ibara ry'ubururu iruhande rwabyo hari inzu nini ifite imiryango imbere yayo hari intebe zo kwicarwaho n'abantu.

Umuhanda munini nyabagendwa ugana ku nyubako ebyiri zifite amabara abiri y'umweru, n'ibara ry'umutuku, rifite amadirishya n'inzugi by'umukara kiriho.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, bigaragaramo ubusitani bw'ibiti, n'intebe ziciraho abaje gusaba serivisi, biri mu ibara ry'umweru, n'icyapa kinini cy'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa werekera ku bigo bya leta, ibigo bya leta bifite imbere idarapo ry'igihugu n'ibindi biro ku ruhande bya CHUB.

Icyapa kiri ku marembo y'ibitaro bya Kabgayi, kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo yanditswe n'ibara ry'umweru, kirerekana ko waba winjiye mu bitaro.

Abagabo nabadamu bane bambaye amakanzu yumutuku ningofero zimikara zirimo uturongo mweru bicaye imbere y'ibenderagihugu cy'u Rwanda imbere yabo kandi hari abandi bagabo nabagore bicaye mu ntebe zirimo ibara ry'umutuku bambaye amakanzu y'umukara.

Abantu bari kugenda mu muhanda nyabagendwa bambaye amakanzu y'imikara, ariho udutambaro tw'umweru, ingofero z'imikara ziriho agatambaro k'umuhondo, inyuma yabo hari abandi bambaye amakanzu y'umutuku, harimo udutambaro tw'umweru.

Umudamu wambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umweru, yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara irimo imirongo y'umuhondo, imbere hari indangururamajwi ifite ibara ry'umukara amanitse akaboko kamwe kandi gafashe ku idarapo.

Umudamu wambaye ikanzu y'iroza, yambaye na rinete, yambaye n'amapingu ku maboko. Iruhande rwe hari umudamu wambaye imyenda ya kacye n'ingofero ya kacye n'inyuma ye hari umugabo wambaye ingofero ya kacye, ishati ya kacye n'ipantaro ya kacye.

Abaturage bicaye mu busitani n'abandi bicaye imbere yabo bibi ku ntebebaye n'ibitabo n'uduhagaze bari kugira ibyo babaza.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, n'ishati y'umweru, n'isaha ku kuboko, na rinete afashe mu biganza yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari undi mugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye.

Abagabo bane n'umugore umwe, abagabo batatu bambaye amakanzu y'umukara arimo ubutambaro bw'umweru, undi mugabo yambaye ishati iri mu ibara ry'umutuku, n'umudamu umuhagaze ku ruhande wambaye ikanzu y'umukara irimo akarongo k'umweru n'umutuku.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara iriho akantu k'umweru afite imashini ku bibero na terefone mu ntoki iruhande rwe hari umudamu wambaye ikanzu itukura irimo n'andi mabara wambaye n'agapfukamunwa uyu mugabo ni umwavoka.

Abagabo batatu babiri bo kumpande bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, bafite amadapo ku maboko yabo. Hagati yabo hari umugabo wambaye ikanzu n'ingofero iri mu ibara ry'umweru. Abagabo babiri bo ku mpande bambaye n'ingofero z'ubururu bwijimye, aba ni abapolisi.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara n'agatambaro mu ijosi k'umweru na rinete aganira n'umugabo wambaye ishati y'iroza n'isaha ku kaboko bari mu rukiko, umugabo wambaye ikanzu y'umukara ni umwavoka aburanira uwambaye ishati y'iroza.

Umugabo wambaye ikabutura y'iroza, ishati y'iroza, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ikanzu y'umukara iriho ibara ry'umweru n'ipantaro y'ubururu bwijimye. Imbere yabo hari imeza ndende iriho amakaye, n'indangururamajwi ifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari imeza ndende yicayeho abagabo bane bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bambaye amakanzu y'imikara hariho udupfukamunwa.

Abagabo babiri n'umudamu umwe bambaye amakanzu y'imikara arimo udutambaro tw'umweru bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari imeza iriho impapuro terefoni n'amacupa y'amazi.

Umudamu wambaye ishati y'iroza na rinete, inyuma ye hari umugabo wambaye ishati ya kake iriho ibendera ry'igihugu ryu Rwanda, inyuma ye none hari umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry' iroza, agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru, mu ntoki afite igitabo gifite ibara ry'ubururu. Inyuma ye hari imeza ifite ibara rya shokora, iriho indangururamajwi zifite ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bambaye amashati y'iroza, iruhande rwabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ucyeye wambaye isaha y'umukara ku kaboko. Iruhande rwabo hari inzu ifite urugi rw'umweru ruhijimye.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikanzu y'umutuku, ifitemo ibara ry'umweru, mo imbere yambariyemo ishati iri mu ibara ry'ivu.

Abadamu babiri bambaye amakanzu y'iroza n'abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara arimo utuboro tw'umweru, imbere yabo hari imeza iteretseho amazi n'imashini irimo ibara ry'umukara aha ni mu rubanza.

Kizimya mwoto ebyiri imwe iri mu ibara ry'umweru indi ibara ry'umuduguku biri ku rukuta rw'umweru n'umupira muremure cyane wifashisha kujyana amazi yo kuzimya inkongi y'umuriro aho ariho hose.

Icyumba kirimo abanyeshuri n'umugabo ufite kizimyamwoto mu ntoki itukura n'indi ku meza, ari kwigisha abanyeshuri ukuntu bayikoresha bazimya.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru iri imbere mu gipangu, imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabo z'umuhondo, imbere hari inzu nini ifite igiti kinini kimanikwaho idarapo.

Abanyeshuri bambaye inifomu, ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, bari kumwe n'abapolisi bambaye ingofero z'ubururu bwijimye, amashati y'ubururu bwijimye ndetse n'amapantaro, imbere yabo hari kizimyamowoto ziri mu ibara ritukura.

Abagabo babiri bari hakurya y'umuhanda nyabagendwa, bagendera ahagendwa n'abanyamaguru umwe yambaye ishati y'ubururu bwijimye ipantaro y'ubururu bwijimye n'ingofero yambaye nijire iriho utugarurarumuri. Undi yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro bari imbere y'inyubako ndende yubakishijwe n'amatafari.

Umupira w'amazi, wagenewe mu kujyana amazi ahantu hariho inkongi y'umuriro, uri mu ibara ritukura, uri ahabugenewe hatukura.

Umupira uri mu ibara ry'umutuku, uteye ku rukuta ruri mu ibara ry'umweru, wifashishwa mu kujyana amazi ahantu runaka hari inkongi y'umuriro.

Abana bari kuva ku ishuri, inyuma yabo hari abashinzwe umutekano babiri, bambaye amakoti y'icyatsi gikeye, n'amapantaro y'umukara, bacunze umutekano w'abantu.

Urukuta rufite ibara ry'umweru ruriho kizimyamwoto n'umupira wayo ufite ibara ry'umutuku, hasi hari amakaro afite ibara ry'umweru anyuzeho umurongo w'amakaro afite ibara ry'umukara, kizimyamwonto zifite imipira isohora ibizimya umuriro bifite ibara ry'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru ,amagambo yandikishijwe n'ibara ry'ubururu . Cyanditsemo amagambo ya traski and rod softde partment ,ni ikigo gishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu mu muhanda cya polisi.

Kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku, ifite no mu ibara ry'umweru ryanditsemo powa, iri ku rukuta rw'umweru, ifite umupira usohora ibizimya w'umukara, n'ako bakandaho k'ubururu.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, ifite amatara y'impuruza, imbere iryaka ubururu iryaka ubururu no hejuru iryaka ubururu n'umutuku.

Inkingi ifite ibara ry'umweru ifasheho kizimyamoto ebyiri, imwe ifite ibara ry'umutuku n'umupira usohora ibizimyamuriro ufite ibara ry'umukara n'indi ifite ibara ry'umweru, hasi hari amakaro afite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye isarubeti ifite ibara ry'ubururu bwijimye irimo umurongo bw'icyatsi gikeya, imbere hari imeza ifite ibara rya kaki, itetseho icupa rya gaze rifite ibara rya oranje, hateretseho isafuriya, hejuru hari umuriro. Umugabo afite igitambaro cy'umutuku wijimye mu ntoki.

Umuhanda nyabagendwa urimo umuntu ufite utubuni tune, dutatu tw'umweru n'akandi katarakora gasa umweru, imbere hari imodoka y'abashinzwe umutekano y'umweru iri munsi y'igiti.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ingofero y'ubururu bwijimye, ufite imashini mu ntoki n'indangamuntu mu ntoki, imbere ye hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye impuzankono y'ubururu bwijimye ufite akagororamubirimura akaboko uhetse oxsigeni gaze mu mugongo yambaye ingofero imurinda umutwe muibura ry'umweru afite ipombo isunika amazi bigaragare ko ari gumena amazi ahantu hari inkongi y'umuriro.

Kizimyamwoto iri mu ibara ritukura, ifite umupira w'umukara, iruhande rw'urukuta rufite ibara ry'umweru. Iteretse ahabugenewe hari mu ibara ry'umukara.

Umubyeyi uri kumwe n'abana babiri bambaye amakoti, uyu mubyeyi yahoze ari Ministre w'intebe mu gihumbi kimwe maganacyenda na mirongocyenda na kane, yitwa Uwiringiyimana Agathah.

Abagabo bane bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hari ameza afite ibara rya kake. Imbere yaho hari indangururamajwi zifite ibara ry'umukara ndetse n'impapuro. Uwo ku ruhande yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru, ukurikiyeho yambaye ikoti ry'umukara, ukurikiyeho yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, uwo ku ruhande yambaye ikote rya kaki n'ishati y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ivanzemo amabara y'icyatsi, inyuma ye hari umudamu na we wambaye ishati y'umweru, yambaye na rinete, aha hari muri bibiri na makumyabiri na kane ubwo ishyaka rya Green party Rwanda ryari riri kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, uyu mugabo uri imbere wambaye ishati y'umweru yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu.

Icyumba cy'itora kirimo abadamu babiri n'umugabo umwe, bambaye imipira y'umweru, bari kubara amajwi yavuye mu baturage batora umukuru w'igihugu.

Amabara atatu yo ku ruhande, ni ibara ry'ubururu bukeye, iryo hagati ni ibara ry'umweru, ku ruhande hari ibara ry'icyatsi kibisi, hagati harimo ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'ingombajwishatu pa, sa na da.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bakurikiranye inama, bicaye ku ntebe z'umukara n'imeza za kake, abayoboye inama bicaye ku ntebe z'umukara, n'imeza ya shokora, imbere yabo bose hari imashini, ndetse n'uducupa tw'amazi.

Icyumba cy'inama kirimo amasikirini manini yerekana amashusho; n'abari mu nama bicaye ku ntebe z'imikara bitegeye imbere aho abayoboye inama bicaye.

Umukandida wigenga Philippe Mpayimana, ari kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Aha rero akaba yari ari kubwira imigabo n'imigambi abaturage bitabiriye aho yari Ari kwiyamamariza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara, abagore babiri, umwe yambaye ikanzu y'umweru, undi ikanzu y'umuhondo. Umugabo w'imbere ni perezida Kagame ari gutanga imyirondoro yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza ifite ibara rya kaki iteretseho uducupa twa mazi , indangururamajwi ndetse n'imashini.

Abagabo bambaye amakoti y'imikara amapantalo y'umukara n'inkweto z'umukara n'amashati y'umweru, abadamu bambaye imikenyero y'amabara atandukanye bari imbere y'ubusitani bugari burimo ibiti inyuma y'aho hari n'idarapo.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru na karuvati itukura, imbere ye hari imashini n'uducupa tw'amazi ari kuvugira ku ndangururamajwi, yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umukara.

Ababyeyi bakenyeye imikenyero iri mu mabara, umweru, ubururu n'umutuku, bafite amadarapo ya FPR, imbere yabo hari ubucupa bw'amazi.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, imbere ye hari indangururamajwi inyuma ye hicaye abadamu n'abagabo, aha kwiyamamaza ku mukuru umwanya w'umukuru w'igihugu umukandida Muhayimana Phillipe.

Icyumba kinini kiberamo inama, kirimo abitabiriye inama, abagabo n'abagore, imbere yabo hari imeza ziri mu ibara rya kake, ziteretseho amazi n'indangururamajwi, n'impapuro bari kwifashisha.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, karuvati y'umukara, yicaye ku ntebe y'umukara, ari kuvugira ku ndangururamajwi, iteretse ku meza imbere ye. Inyuma ye, hicaye undi mugabo.

Abaturage benshi, bafite amadarapo ya FPR, bari bashyigikiye umukandida wa FPR, Paul Kagame. Wambaye ishati y'umukara.

Icyapa cyerekana ko aho hari icyumba cy'amatora abantu bari kugenda bajya gutora abandi bagaruka, ni muri bibiri na makumyabiri na kane batora perezida w'igihugu.

Abagabo n'abadamu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere hari abagabo batatu, uwo kuruhande yambaye ikote ry'ubururu n'ishati yumweru na karuvati itukura yamanitse urutoki, ukurikiyeho yambaye ikoti ry'ubururu ririmo uburungo bw'umweru ndetse n'ishati y'umukara, undi kuruhande yambaye ikoti ry'umukara, ishati yumweru na karuvati itukura na rinete zifite ibara ry'umukara.

Imeza iriho kopi nyinshi bifashishaga mu matora y'umukuru w'igihugu ziri ku meza y'umweru n'umuntu urimo uragenda uzishyira ku kumurongo neza.

Abagabo n'abadamu bari gufata ifoto y'urwibutso imbere y'idarapo ry'igihugu, inyuma yabo hari ubusitani bw'imikindo n'ubwatsi bwiza.

Ifoto y'ababyeyi bakenye imikenyero y'amabara atandukanye, inyuma yabo hari ibiti byo mu busitani ndetse n'amadarapo y'igihugu.

Abaturage batatu bambaye imipira y'umweru n'uwambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umweru, bafite indobo bubitse z'umweru bari barangije kubara amajwi y'ibyavuye mu matora.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ryijimye na rinete ari kuvugira ku ndangururamajwi, uyu ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame.

Abaturage bari ku mirongo bategereje kujya mu cyumba cy'itora ngo batore umukuru w'igihugu n'abadepite bibiri na makumyabiri na kane.

Ababyeyi bakenyeye imikenyero bahawe inshingano muri leta, bari kurahira bafashe ku idarapo by'igihugu, barahirira inshingano bahawe kuzazikora neza.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye ishati y'umweru na karuvati y'ururu irimo uburongo bw'umweru yambaye amarinete imbere ye hari indangururamajwi ari kuvugiramo n'icupa ry'amazi rimuri iruhande.

Umuhanda nyabagendwa uri kugendwamo n'imodoka n'abantu n'amamoto, moto iri imbere ni moto zimwe zikoreshwa n'amashanyarazi zidakoreshwa na esansi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ishinzwe gutwara imizigo iri mu ibara ry'umweru itwikiwe n'ishitingi riririmo mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari umumotari ku ruhande hari umuntu uri kugenda n'amaguru wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara.

Umuhanda nyabagendwa. Urimo imodoka iri mu ibara ry'ubururu igenewe kwikorera imizigo n'imbere yayo hari modoka iri mu ibara ry'umweru na yo yagenewe kwikorera imizigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri zibisikana, imanuka ifite ibara ry'umutuku, izamuka ifite ibara ry'umweru, haruguru y'umuhanda hateye ibiti byinshi biri mu busitani.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri zibisikana, imodoka ntoya iri mu ibara ry'umweru, indi modoka yo ku ruhande rwo hirya iri mu ibara ry'umutuku yagenewe kwikorera imizigo. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka iri mu ibura ry'umweru yagenewe kwikorera imizigo, ihetsemo umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu n'umutuku n'umuhondo, iruhande rwayo hari umukobwa uhetse agakapu, yambaye n'ijipo y'umutuku n'agapira k'iroza.

Umuhanda nyabagendwa ku ruhande rwayo haparitse moto ifite ibara ry'umutuku, inyuma y'iyi moto hari intebe ebyiri, imwe ifite ibara ry'ubururu n'indi ifite ibara ry'umweru, ku rukuta hari icyapa kinini gifite ibara ry'umweru, kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa Toyota, iparitse mu muhanda nyabagendwa, imbere yayo hari indi modoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu isa ubururu itwara imizigo.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bibiri, ibyegera bibiri bitandukanyijwe n'umukindo n'ubusitani bwiza, imihanda irimo amamoto n'amamodoka agenda.

Imodoka nini iri mu mwanya nyabagendwa igenewe kwiyikorera imizigo, iri mu mabara abiri imbere irasa umweru, inyuma icyatsi, ku ruhande rwayo hari umugabo uri gusunika ipine imbere hari n'undi mugabo wikoreye umufuka ufite ibara ry'umweru.

Ipikipiki iparitse ku ruhande rw'umuhanda nyabagendwa, iri imbere y'inzu iri mu ibara ry'umweru, ifite urubaraza rufite ibara ry'ubururu, imiryango ibiri irasa ubururu, n'undi muryango uri mu ibara ry'umweru, mu muhanda harimo amapikipiki ari kugenda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru igenewe gutwara abagenzi, ku kuruhande rw'umuhanda, hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda, hari n'indi modoka y'umweru iri kunyuranaho n'indi.

Umuhanda nyabagendwa hakurya yaho harimo abagenewe gutwara abagenzi ku buryo bwa moto, bategereje abagenzi bo gutwara. Hari umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru, utegereje kwicara kuri moto.

Umuhanda nyabagendwa, urimo inzira y'abagenda n'amaguru aho bambukira, irimo irimo moto ndetse ku ruhande hari n'icyapa cya rssb n'imodoka hirya yaho.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka nini yagenewe kwikorera imizigo, imbere yayo haraturukayo indi modoka nini iri mu ibara ry'umweru na yo yagenewe kwikorera imizigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka nini ifite ibara ry'umutuku, yegenewe kwikorera imizigo, hejuru yayo hari ihema rifite ibara ry'ubururu, imbere y'iyo modoka hari umuntu utwaye igare, haruguru y'umuhanda hateye ibiti byinshi n'amazu ari haruguru y'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ikorera imizigo n'abaturage babiri, umwe yambaye ishati y'ubururu, undi yambaye umupira bagenda iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo abamotari babiri uw'inyuma yambaye ipantaro y'umuhondo n'ikote ry'umutuku, uw'imbere yambaye inkweto z'umweru n'ingofero y'umutuku agana aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru igenewe kwikorera imizigo, imbere yayo hari n'indi modoka y'umweru ntoya itwara abagenzi. Hari n'indi modoka nini iri mu iba ry'ubururu igenewe gutwara abagenzi n'abamotari.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ihetse umugenzi, ufite imirongo ifite ibara ry'umweru utandukanyije umuhanda mo kabir,i ku bice by'umuhanda byombi hari inzira z'abanyamaguru, ku ruhande rwo hepfo hari ubusitani buteyeho indabo no ku ruhande rwa ruguru hari ibiti binini biteyerimo ubusitani.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso, iri mu ibara ry'icyatsi yagenewe kwikorera imizigo, uyu muhanda warasataguritse.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, yikoreye imizigo iri mumabara y'umweru itwikirije ihema ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka y'umweru yagenewe kwikorera imizigo n'abantu batwaye abandi ku magare.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ziri kugenda, imodoka y'umweru, n'indi modoka y'umweru iri ku ruhande, irimo abagenzi, abagenda n'amaguru, n'abagenda na moto.

Imodoka eshatu zagenewe gutwara abagenzi, imwe iri imbere iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, izindi ebyiri ziri inyuma ziri mu ibara ry'umweru. Ziri kwerekeza aho imodoka ziparika zijya gushaka abagenzi bazijyamo.

Umuhanda nyabagendwa, hakurya y'umuhanda hari imodoka iri mu ibara ry'ubururu, ikunze kwikorera imizigo. Iruhande rwayo hari ibyifashishwa kugemura ibinyobwa, byo mu ibara ry'ubururu n'umutuku.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu n'umweru yagenewe gutwara abagenzi iri muri gare irimo abagenzi.

Moto bari guhambiraho umufuka w'umweru urimo ibintu runaka, inyuma yayo hariho umugabo wambaye imyenda y'ubururu ari kubihambira kuri moto.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga birimo moto ebyiri imwe ihetse umugenzi n'imodoka itwara abagenzi ikorera sosiyete ya matunda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ry'umutuku yagenewe kwikorera imizigo, iruhande rwayo hari igare rifite intebe ifite ibara ry'ubururu, munsi y'umuhanda hateyemo ibiti byinshi cyane.

Imodoka nini iri mu bara ry'umuhondo yagenewe gutwara imizigo iri ku ruhande rw'umuhanda ahagenewe guhagarara ibinyabiziga igihe gito mu gihe hari ibyo bitegereje ngo bikomeze urugendo.

Umuhanda nyabagendwa urimo abamotari babiri, umumotari umwe ahetse umugenzi bambaye ingofero zirinda umutwe ziri mu ibara ry'umutuku, hakurya y'umuhanda hari igikuta kirimo ibara ry'umweru...

Imodoka ifite ibara ry'umweru n'ubururu yagenewe gutwara abagenzi imbere harimo abagenzi, hanze yayo hari umuntu wambaye umupira wa shokora ufite ibara ry'umukara n'ipantaro ya shokora.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru igenewe kwikorera imizigo iri kugendera mu muhanda nyabagendwa, hakurya yawo hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka y'umweru yagenewe kwikorera imizigo, ku mpande z'umuhanda hateyeho ibiti binini ndetse hari n'amapoto manini atwara amashanyarazi n'andi mapoto ashinzwe gucanira umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto irimo ibara ry'ubururu, yagenewe kwikorera imizigo ndetse nundi mugabo wambaye umupira wubururu n'ipantaro y'umukara utwaye igare, aritwayeho umuntu.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ryumweru igenewe kwikorera imizigo, kuruhande munzira yabanyamaguru , harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara nishati irima amabara y'umutuku , hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ry'umweru, yagenewe kwikorera imizigo. Mu nzira z'abanyamaguru harimo umugabo wikoreye umufuka ufite ibara ry'umweru. Ku ruhande rwo hepfo hari ibiti binini ndetse n'ipoto rinini ririho itara rimurika mu muhanda.

Abantu batatu bari kugendera ku magare ari mu ibara ry'umuhondo inyuma yabo hari ijambo rinini ryanditse Kigali inyuma y'iryo jambo hari ibiti binini by'ubusitani by'imikindo, hejuru yaho hari amatara amurika.

Ikibuga kinini giteyemo ibyatsi bikikijwe n'ibiti byinshi cyane, kirimo umugabo wambaye umupira w'ubururu bukeye n'ipantaro y'umukara.

Ikibuga cya basikete, kirimo ibara ry'umutuku n'umweru. Iruhande rwacyo hari ubusitani, burimo ibiti birebire. Kiri hagati mu gipangu.

Umuhanda nyabagendwa w'icyatsi wagenewe kugenderamo abantu bari muri siporo n'abandi bari kuruhuka, iruhande rwawo hari ibiti by'imikindo biwuzengurutse.

Ikibuga kinini gifite uruhande rumwe rusakaye bicaramo rurimo udukuta tw'amatafari turi mu ibara ry'umutuku n'akarongo k'umweru dukikijwe n'amatara agicanira ku mpande ndetse n'ibiti by'imikindo biri ku ruhande.

Icyapa kiburira, kiri mu ibara ry'umuhondo, gifite umuzenguruko w'umutuku, ikimenyetso gisa umukara. Kirerekana ko hari umuhanda mutoya ushamikiye ku muhanda munini nyabagendwa; kiri ku giti cy'umukara.

Icyapa kibuza kiri mu ibara ry'umweru muzenguruko w'umutuku' akarongo gacamo k'umutuku n'ikimenyetso k'ibabara ry'umukara handitse amagambo avuga ko bibujijwe ko nta magare yemerewe kuhaparika.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ibara ry'umuhondo, gifite umuzenguruko w'umukara, ikimenyetso cy'umukara cyerekana ko hari undi muhanda ushamikiye ku muhanda munini.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira kiri mu ibara ry'umuhondo umuzenguruko w'umutuku ikimenyetso cy'icyatsi kiraburira ibinyabiziga uko bigomba kugenda gacye byitegura guhagarara ko hari inzira yambukiramo abanyamaguru.

Kimwe mu byapa byo mu muhanda bitegeka, kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, akarongo umutuku, ikimenyetso cy'umukara. Kirategeka ko bitemewe gukata ibumoso bw'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa iruhande rwayo hari icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa ndanga kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umukara, amagambo yanditse mu mukara cyerekana ko ugeze muri Bugesera.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku uciyemo akarongo k'umutuku, ikimenyetso cy'umukara. Kirabuza abantu gukata iburyo bw'umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kirimo mu bwoko bw'ibyapa biburira. Kiri mu ibara ry'umuhondo rifite umuzenguruko w'umukara. Ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara.

Ibyapa byo mu muhanda bibiri biri mu bwoko bw'ibyapa biranga, biri mu mabara y'umweru ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, bifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara.

Icyapa cy'umuhanda kimenyesha, kiri mu ibara ry'ubururu hagatera ibara ry'umweru ririmo ikimenyetso cya bisi kiramenyesha ko aho kiri hose ari aho bisi zihagarara zitegereje abagenzi n'abagenzi bahagarara bategereje bisi.

Icyapa gifite ibara ry'umweru umuzenguruko w'umutuku kirimo ikimenyetso cy'umukara kiri mu byapa biburira cyerekana ko imbere hari ikorosi giteye hagati mu ishyamba mu ruhande rw'umuhanda nyabagendwa.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa biranga. Kiri mu ibara ry'icyatsi gikeye, umuzenguruko w'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'amerekezo ari mu ibara ry'umweru. Gifite nimero ziri mu ibara ry'umuhondo uko ari ebyiri.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, gifite ibara ry'ubururu, umuzenguruko w'umweru n'ikimenyetso cy'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, kiri mu ibara ry'umweru n'umuzenguruko w'umutuku, kiri ku ipoto.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ikimenyetso cy'umukara gifite imibare mirongo itatu, kiri mu byapa byo mu muhanda bitegeka abayobozi b'ibinyabiziga ko batagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

ibyapa bibiri ndanga kimwe kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umukara amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ikindi kiri mu ibara ry'ubururu ry'icyatsi gikeya amagambo yanditse ibara ry'umweru umuzenguruko w'umweru munsi yacyo harimo umuntu uri kubyifotorezaho, hirya yabyo mumuhanda nyabagendwa urimo imodoka iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu, umuzenguruko w'umutuku, mo hagati harimo umurongo w'umutuku. Ni cyapa kiri mu byapa bitegeka, kibuza ko aho hantu kiri hatemerewe kunyurwa n'ibinyabiziga.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu byapa biburira. Kiri mu ibara ry'umweru umuzenguruko w'umutuku kirimo ikimenyetso cy'umukara kiraburira abantu ko imbere hari ikorwa ry'umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, haciyemo akarongo k'umutuku, ikimenyetso gifite ibara ry'umukara kiramenyesha ko bitemerewe gukata ibumoso mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda cyo mu bwoko bw'ibyapa biburira kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruka w'umutuku, ikimenyetso cy'umukara kiravuga ko imbere hari ikorosi.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ibara ry'umuhondo gifite umuzenguruko w'umukara, ikimenyetso cy'umukara n'ibyapa biburira, cyirerekana ko hari undi muhanda ushamikiyeho.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu byapa bimenyesha kirimo ingombajwi p n'igishushanyo cy'imodoka itwara abagenzi gishushanyije mu mabara y'umweru kiramenyesha ko aho kiri hose aho hari aho wahagarika imodoka.

Icyapa cyo muhanda cyangwa umuhu w'ibyapa birangakinisho y'ubururu umuzenguruko w'umweru hagati harimo inyajwi ya P yanditswe ibara ry'umweru irerekana ko imbere hari aho imodoka zihagarara umwanya muto.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu, umuzenguruko w'umweru, hagati harimo ikimenyetso cya mpande eshatu cy'umweru, harimo ikimenyetso cy'umuntu, kiri mu ibara ritukura, agenda mu muhanda w'abanyamaguru.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, gikozwe mu ruziga, kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, akarongo agaciyemo k'umutuku, ikimenyetso cya P kirabuza buri muntu uwo ari we wese kuhaparika umwanya munini, iruhande rwacyo hari ipoto nini itwara amashanyarazi mu ngo z'abaturage, giteye mu busitani.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'umuhondo, umuzenguruko w'umukara, ikimenyetso cy'umukara, kiri mu byapa byo mu muhanda byerekana abayobozi b'ibinyabiziga ko hari umuhanda imbere winjira mu wundi muhanda.

umuhanda nyabagendwa ufite icyapa kuruhande kiri mubwoko bwi'i ibyapa bitegeka kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, akorngo gaciyemo k'umutuku harimo ikimenyetso cy'umukara , kirerekana ko nta moto yemerewe guca muri ako gace harimo umugabo wambaye imyenda yumutuku wijimye ugendamo n'imbere ye hari umudamu wambaye ikanzu yu'umweru.

Icyapa kiburira kiri mu ibara ry'umweru gifite umuzenguruko w'umuhondo, iki kimenyetso kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri bwoko bw'ibyapa biburira cyiri mu ibara ry'umuhondo umuzenguruko w'umukara ikimenyetso cy'umukara kimenyesha ko hari umuhanda ushamikiyeho.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, kirimo ikimenyetso cy'umuntu ufashe umwana akaboko, kiri mu ibara ry'umukara; kiri mu byapa biburira, ibyapa bishingwa mu muhanda biburira abashoferi.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu bwoko bw'ibyapa bigurira kiri mu ibara ry'umweru rifite umuzenguruko w'umutuku ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara. Kiramenyesha abatwara imodoka ko bagomba kugenda gake ko aho hari abanyeshuri.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru gifite umuzenguruko utukura, hagati harimo uruziga rurimo ingombajwi ya p iri mu ibara ry'umukara hasi yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku handitseho no parikingi bisobanuye ko bitemewe kuhaparika.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu byapa biburira, kiri mu ibara ry'umuhondo rifite umuzenguruko w'umukara, rifite ibimenyetso by'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kibuza kunyuranaho, kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ibimenyetso by'umukara, kirabuza kunyuranaho.

Icyapa cyerekana nimero y'umuhanda KKG gatanu gatanu zeru st icyenda, kiri mu ibara ry'umweru gifite umuzenguruko w'umukara, ibimenyetso byanditse mu ibara ry'umukara.

Ubuhunikiro bahunikamo imyaka itandukanye hejuru ku gisenge hariho ibyinjiza umwuka mwiza mu myaka baba bahunitse.

Umuhanda nyabagendwa urimo umumotari iruhande rwawo hariho inzu nini igeretse kabiri yo mu ibara rya beji ikoreramo ibigo by'ubucuruzi.

Insinga zigemura umuriro w'amashanyarazi mu baturage munsi yazo hari inzu zisakajwe amabati atukura ndetse iruhande rw'ayo mazu hari urutoki n'ibiti by'amapapayi n'ibindi biti by'inganzamarumbo.

Inyubako ndende igeretse inshuro enye yiganjemo amabara y'umweru na beje, ikoreramo ibigo byinshi by'ubucuruzi bitandukanye.

Inyubako nini igeretse inshuro enye iri mu mabara y'umweru ndetse n'amatafari, ifite amatara afite ibara ry'umukara ifite giriyage zifite ibara ry'umukara n'igisenge gifite ibara ry'umukara.

Ikigega cy'umukara kijyamo ritiro ibihumbi bitanu nyuma yacyo hari ipoto ipoto ry'amashanyarazi hirya yacyo hari ishyamba ririmo inzu nini ariyo ikoreramo ikibuga cy'indege.

Ubusitani buteyemo ibiti hakurya yabwo hari inyubako iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amatafari, hejuru ku gisenge by'iyi nyubako hariho imashini zinjiza umwuka mu nzu.

Agace kagenewe guturwamo karimo inzu z'abaturage zo guturwamo, karimo ibiti byinshi by'inganzamarumbu bigiye bikikije buri rugo.

Ibigori biteye mu murima, hirya yabyo hari urutoki rukikijwe n'ibiti, hakurya hari umugi munini utuyemo abantu n'amazu menshi.

Umuhanda nyabagendwa ushamikiyeho umuhanda winjira muri karitsiye, harimo inzu ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ibiti by'amashanyarazi bigemura umuriro muri izo nyubako.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri zihetse abantu babiri, imwe bambaye ingofero z'umukara, n'indi umugenzi ari kurira kuri moto.

Umuhanda nyabagendwa urimo umugabo ufite inkweto z'umweru mu ntoki yambaye ishati y'iroza, inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, hakurya y'umuhanda hari inzu ifite ibara ry'ubururu munsi haparitsemo moto.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka nyinshi, na mato, harimo imodoka mu bwoko bwa hyundai y'umweru, n'imodoka y'ubwoko bwa benzi y'umukara, n'indi iri inyuma yayo y'umukara. Hakurya y'umuhanda hari inzu ya etaje igeretse inshuro eshatu, ikoreramo ibigo by'ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa w'igitaka munsi yawo hari abamotari babiri ndetse n'imodoka ebyiri imwe ifite itara ry'umweru n'indi ifite ibara ry'umweru ,ruguru yaho hari umukobwa wambaye ipantaro y'umweru afite n'agakapu k'umweru.

Iduka ricuruza ibinyobwa. Hanze yaryo hari intebe n'imeza biri mu ibara rya kake ndetse n'ibyatsi by'ubusitani biteye inyuma y'intebe zicarwaho n'abaje kunywa.

Umuhanda nyabagendwa urimo umumotari uhetse umuntu ndetse n'umubyeyi uhetse umwana utwikiriye umutaka, utukura hari n'imodoka zishinzwe gutwara abantu.

Amazu y'abaturage yo guturamo ari hagati mu biti byinshi, afite ubusitani bwinshi bukikijwe n'ibiti. Ari mu gace k'ahitwa i Remera. Hakurya hari inyubako nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi iri kubakwa.

Ihuriro ry'imihanda nyabagendwa. Harimo ibinyabiziga byinshi, birimo imodoka ifite ibara ry'umweru yagenewe kwikorera imizigo na moto yagenewe kwikorera imizigo. Irimo umugabo wambaye umwenda wa kacyi, hakurya y'umuhanda hari amacupa ya gaze yifashishwa mu guteka.

Ihuriro ry'umuhanda nyabagendwa, hepfo y'umuhanda nyabagendwa hari ishyamba, imbere yaryo hari amapoto manini atwara amashanyarazi n'andi mapato ariho amatara amurikira umuhanda.

Ihuriro ry'umuhanda nyabagendwa urimo abakobwa babiri bambaye amapantaro y'umukara, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu bwijimye imbere yabo hari moto yikoreye umuzigo. Hakurya hari imodoka ziri kugenda mu muhanda nyabagendwa.

Umuhanda nyabagendwa uri hagati mu busitani , wagenewe kugendwamo n'abanyamaguru ndetse n'abafite amagare, ku mpande zayo hari ubusitani buteyemo ibiti.

Inkingi eshatu zihagaze zifashe umuhanda wo hejuru nyabagendwa unyurwaho n'ibinyabiziga n'abantu, iruhande rwawo hari ibiti n'ubusitani biwukikije.

Umuhanda nyabagendwa ugana ahari ihuriro ry'imihanda. Imbere yaho harimo imodoka y'umweru akinguye umuryango n'indi modoka izamuka iririmo ibara ry'umutuku yikorera imizigo.

Umuhanda nyabagendwa w'ibisate bibiri n'icyerekezo kimwe n'undi muhanda hakurya y'ibisate bibiri ikindi cyerekezo hagati harimo akadunduguzi k'ibitaka gateyemo ibyatsi n'imikindo, mu muhanda harimo imodoka ifite ibara ry'umukara.

Ihuriro ry'imihanda nyabagendwa, hagati harimo ibimenyetso bimurika bigenzura ibinyabiziga, byemerera bimwe kugenda bibuza ibindi kugenda kugira ngo hatagira impanuka iba, iruhande rwabo hari umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'ingofero y'umukara.

Umuhanda nyabagendwa, ufite nimero KG magana atandatu mirongo icyenda n'umunani ST. Urimo ibinyabiziga bya moto bibiri n'umudamu uri ku ruhande rw'umuhanda.

Isangano ry'umuhanda nyabagendwa rigabanyijemo ibice byinshi, ibigabanyije umuhanda bikaba ari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, harimo moto zitwaye abagenzi. Hakurya y'umuhanda harimo amatara ari mu ibara ry'umweru acanira umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa, ushamikiyeho undi muhanda, ukikijwe n'ibiti birebire, ugendwamo n'abantu n'abamotari n'izindi modoka hakurya y'umuhanda, munsi y'umuhanda haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda nyabagendwa uca munsi y'undi muhanda, ku ruhande hari ubusitani buteyemeho ibiti by'imikindo harimo n'icyapa cy'umuhanda kiri mubyapa bitegeka kiri mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ndetse n'ingombamajwi ya p mo hagati. Ku ruhande hari icyapa kiranga kirimo ibara ry'icyatsi kibisi umuzenguruko w'umweru, n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ihuriro ry'imihanda nyabagendwa, igice kimwe cy'umuhanda kiriho inzira y'aho abanyamaguru bambukira, mu nkengero z'umuhanda hari ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa wangiritse uruhande rumwe rugaragara ko rurekamo amazi, hari moto itwara abagenzi, n'abanyonzi batwara abagenzi.

Ihuriro ry'umuhanda nyabagendwa, rikikijwe n'ibiti, hakurya y'umuhanda hari amatara maremare ari mu ibara ry'umweru, amurikira umuhanda, umuhanda urimo abamotari bahetse abagenzi n'udahetse umugezi.

Umuhanda nyabagendwa mu byerekezo bibiri, urimo imirongo migufi, icagaguye y'umweru, yerekana ko aho hambukirwa n'abanyamaguru. Urimo umudamu wambaye ikoti ry'umukara, n'ijipo y'umukara. Ku ruhande hari umumotari utegereje ko yambuka.

Ihuriro ry'umuhanda nyabagendwa rifite ubusitani ku mpande yawo. Buteyemo imikindo n'ibindi byatsi bitandukanye. Higanjemo imodoka zirimo ibara ry'umweru ndetse n'abanyamaguru bagenda n'amaguru.

Ihuriro ry'imihanda nyabagendwa, ririmo imodoka ifite ibara ry'ubururu izamuka igenewe kwikorera imizigo ndetse n'indi modoka imanuka ifite ibara ry'umweru, urimo na moto ebyiri, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti ndetse n'ubusitani.

Isangano ry'umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitandukanye izikorera imizigo. N'izindi zisanzwe izi mpanuka n'izizamuka ririmo ubusitani bw'imikindo n'ubwatsi. Bifite amatara ku ruhande ari mu ibara ry'umweru acanira umuhanda.

Ibimenyetso byo mu muhanda bimurika bivuza imodoka gutambuka, byeyerekana ko hari abantu bari kunyura mu nzira zabugenewe bambuka umuhanda.

Ihuriro ry'umuhanda nyabagendwa, hagati harimo ubusitani buteyemo iyi poto y'ibara ry'umweru n'ubururu, hakurya y'umuhanda hari abatwara abagenzi kuri moto.

Aho imodoka zihagarara, zitegerereje abagenzi, ku ruhande hari n'aho abagenzi bicara bategerereje imodoka, hari ibiti ku ruhande by'ubusitani, ndetse n'umuhanda nyabagendwa urimo imodoka, n'amamoto.

Umuhanda nyabagendwa hari ufatiyeho umanuka, ukomeje n'utambika, mu nguni harimo inzu nini, ku ruhande haraguru y'umuhanda hari imodoka y'umweru n'umukara.

Umuhanda nyabagendwa ufite ibyiciro bibiri icyiciro cyo hasi n'icyo hejuru, icyiciro cyo hasi kirimo imodoka iri mu ibara ry'ubururu bwijimye iri kugendera hasi.

Umuhanda nyabagendwa, hakurya y'umuhanda hari imodoka nyinshi nini zagenewe gutwara imizigo, harimo iri mu ibara ry'umweru ifite umuzigo usa umuhondo, mu muhanda harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru uri ku igare.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bibiri bitandukanye, utandukanijwe n'akarundirundi gateyemo ubusitani n'imikindo, mu muhanda nyabagendwa harimo imodoka ziri mu ibara ry'umukara zibisikana, ndetse hakurya y'umuhanda hari n'ibiti by'ishyamba, mu muhanda kandi harimo amamoto atwaye abantu.

Ihuriro ry'imihanda nyabagendwa, ririmo ibisate bishushanyije n'amabara y'umweru byerekana abanyamaguru ariho bambukira, imbere hari imoto yagenewe kwikorera imizigo iri mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hari ipoto rinini riri mu ibara ry'umweru ririho itara ricanira mu muhanda.